Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama, aho bicaye ahantu hamwe bari kwiga cyangwa kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye zagirira umuryango akamaro.

Umugore wambaye agatambaro mu mutwe n'amarinete uri gutanga imbwirwaruhame muri sare y'inama ku bantu bagiye batandukanye, aho abo bantu bo bicaye we akaba ahagaze, impande y'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu benshi batandukanye barimo abagore n'abagabo, bari mu cyumba cy'inama bakaba bose bahagurutse ngo bumve ikijya mbere, bose uko bari mu cyumba cy'inama.

Icyumba k'inama aho abantu bari kugirwa inama bakazandika mu makaye bafite n'amakaramu yo kwifashisha aho mu nama bicaye ku ntebe kandi harimo abagabo n'abagore bagiye batandukanye.

Ingengabihe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'imisoro n'amahoro, n'uburyo ki wakandikisha bizinesi, uko uzajya uyishyura. Ikubiyemo uko amatariki n'ibyagiye bikozwe bizaba bimeze, n'uko byagenze.

Imenyesha ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro riri kumenyesha abaturage ndetse n'ababifite mu nshingano ibijyanye no gusora, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha ndetse no kwishyura umusoro kuri avansi, iyo birenze ku itariki mirongo itatu nimwe z'ukwa cumi nabiri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri kane hazaba hatangiye kujyaho inyungu.

Mudasobwa iri kwerekana uko wakwikorera gahunda za leta biciye ku rubuga rw'irembo, inakwereka ibisabwa n'ibyo wowe ukwiye gukora kugira ngo wikorere ibintu uri iwawe cyangwa uri ahandi bitagusabye kwirirwa ujyayo.

Abaganga babiri bari gusuzuma ibizamini bafashe umurwayi umwe uryamye ku gitanda cy'abarwayi, mu cyumba k'isuzumiro aho bamaze kumufata ibizamini barimo barabisuzuma barebe indwara ashobora kuba arwaye.

Umukozi w'ikigo k'igihugu gishinzwe iby'umutekano wo mu muhanda, arimo aragerageza gushyira imodoka ku ruhande azigenzure arebe niba ibisabwa kugira ngo zitware abagenzi byuzuye, aho motoyo ayihoreye imaze gukomeza.

Ahantu habereye inkongi y'umuriro, hari imodoka zishinzwe kuzimya zifashijwemo n'inzego zibishinzwe nka polisi y'igihugu ishinzwe ibijyanye no kuzimya ahantu bahuye n'ibibazo by'inkongi z'imiriro. Polisi y'igihugu ikaba yarimo irabafasha kuzimya ikoresheje ibyotsi bizimya kandi bikanagabanya ubukari bw'umuriro.

Abaturage bari mu mbwirwaruhame y'umuntu w'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, n'ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru arimo arabagezaho amatangazo ndetse n'ibindi bintu yaba yabateganyirije.

Umugore ubyibushye w'inzobe ufite imisatsi y'umukara n'amaherena wicaye ku ntebe iruhande rw'idarapo ry'igihugu cy'urwanda ufite n'amazi urimo uratanga imbwirwaruhame.

Icyumba k'inama aho harimo hatangirwa inama zitandukanye harimo abari kugenerwa inama, abagenerwabikorwa, harimo n'abari gutanga inama, aho bamwe bari kuyumva bakayandika abandi na bo bakabyumva ntibandike.

Abaturage mu gihe cyo kwamamaza aho bari kwamaza umukandida wabo nyakubahwa Paul Kagame ukomoka mu ishyaka rya efuperi inkotanyi, aha bakaba bari bari mu mudugudu wa radari.

Ku muhanda aho imodoka ziri kugenda, imwe y'umweru n'indi y'umukara zigeze aho abanyamaguru bambukira, ku muhanda hariyo na moto n'abanyamaguru barimo baragenda n'amazu y'ubucuruzi asanzwe.